Umugabo uri ahantu mu murimo bigaragara ko ahetse icyuma bifashisha batera umuti mu bihingwa biri murima, umugabo akaba ahetse icyo cyuma kikaba kiri mu ibara ry'umweru, uwo murima arimo bigaragara ko ashobora kuba ari nk'umurima w'icyayi cyangwa se izindi mbuto zijya kumera nk'icyayi.

Imiti yifashishwa mu buhinzi, iyo imiti ika kabiri iri mu moko agiye atandukanye, hari ifunze amacupa, indi ikaba ifunze mu mashashi, iyo miti ikaba ifite amabara atandukanye, hari ifite amabara y'umweru, ifite y'umuhondo, indi ikaba ifite amabara ajya gusa n'umutuku, iyo miti hafi yayo hakaba hari ipombo cyangwa se icyuma cyifashisha batera iyo miti mu myaka.

Uruganda bigaragara ko rushobora kuba ari nk'uruganda rukora imiti yifashishwa nko mu buhinzi cyangwa se mu bindi bintu, hakaba hari kugaragara amacupa cyangwa se utubuni urwo ruganda imiti iri gusohoka aho ikorerwa ijya muri ayo macupa cyangwa utwo tubuni bayifunga bakabasha kuyijyana ku isoko ifunze.

Umugabo wambaye impuzankano iri mu mabara y'umuhondo, akaba yambaye uturindantoki turi mu mabara y'umukara, mu mugongo akaba ahetse icyuma bifashisha batera umuti mu myaka, bikaba bigaragara ko ari gutera umuti mu myaka, iyo myaka bigaragara ko ishobora kuba ari nk'inyanya cyangwa se izindi mbuto.

Umugabo wambaye uturindantoki, akaba ahetse icyuma twifashisha dutera umuti mu myaka, bikaba bigaragara ko ashobora kuba ari gutera umuti muri iyo myaka, iyo myaka bikaba bigaragara ko ari imyaka imeze neza, ifite ibara ry'icyatsi, icyo cyuma ahetste kikaba gifite ibara ry'ubururu n'umutuku.

Umugabo uri ahantu mu murima w'ibigori, umugabo akaba yambaye impuzankano iyo'amabara y'umukara, bikaba bigaragara ko umugabo ari gutera umuti mu bigori ibyo, bigori akaba ari ibigori bihinzwe mu buryo bwa kijyambere kuko biteye ku murongo. Hirya ye hakaba hateye ibiti byinshi cyangwa se ishyamba. Hakaba hari n'abandi bagabo bigaragara ko bafite imashini cyangwa se icyuma bifashisha bahinga.

Umuntu uri mu murima bishobora kuba bigaragara ko ubwo murima arimo ari umurima w'umuceri. Mu ntoki ze akaba afite umupira ushobora kuba ari umupira uzanamo amazi cyangwa se uyavanamo umuntu akaba yambaye ingofero yambaye ishati y'amabara y'umweru yambaye ipantaro iri mu mabara y'umukara.

Umuti wifashishwa mu bijyanye n'ubuhinzi uwo muti ukaba ufashwe mu ntoki n'umuntu utari kugaragara neza ari kugaragara ikiganza cye, uwo muntu akaba yambaye akarindantoki gafite ibara ry'icyatsi, uwo muti nawo ukaba uri mu icupa rifite ibara ry'icyatsi bigaragara ko umuntu uwo ashobora kuba ari nko kuwutera ku bihingwa ahantu mu murimo bigaraga ko umuntu ushobora kuba wifashishwamo kwica ibyonnyi.

Umugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa, bigaragara ko mu ntoki ze afite ifi nini cyane. Umugabo akaba yambaye ipantaro y'umukara n'umupira ujya gusa n'ubururu. Inyuma ye hakaba bigaragara ko hashobora kuba ari mu cyuzi cy'amafi.

Abagabo bafite inshundura bifashisha mu kuroba amafi, abagabo bakaba ari abagabo babiri bari hamwe, iyo nshundura bafite ikaba iri mu ibara ry'icyatsi, abagabo bakaba bambaye imyenda umwe ifite amabara y'umweru n'umukara undi ifite amabara y'umweru.

Umugabo wambaye hejuru ishati y'ubururu, akaba yambaye amadarubindi, mu ntoki ze akaba afite amafi abiri. Muri buri kiganza ifi rimwe, mu kindi ifi rimwe. Inyuma ye hakaba hari ibiti birebire. Bikaba bigaragara ko yishimye.

Umuntu uri kugaburira amafi akaba ahagaze hejuru y'ibyo byuzi, ibyo byuzi bikaba bigaragara ko ari ibzi byubatse mu buryo bwa gihanga cyangwa se uburyo bugezweho, ibyo byuzi bikaba bizengurutswe n'inkingi zibirinda kuba hakinjiramo igisambo cyangwa se ikindi kigiye kugirira nabi amafi.

Umwana w'umukobwa uri ahantu mu murima bigaragara ko ari gusoroma icyayi. Hirya ye na ho hakaba hari undi na we uri gusoroma icyayi, bakaba bafite inkangara bari gusoromeramo icyo cyayi. Bigaragara ko bari kugenda basoroma icyayi cyeze, bagishyira muri izo nkangara bafite ku mugongo wabo.

Ababyeyi bari ahantu mu umu murima w'icyayi, bakaba bahetse inkangara, bikaba bigaragara ko bari gusoroma icyo cyayi umurima urimo icyo cyayi bikaba bigaragara ko ari umurima munini cyane. Umurima ukaba ugiye ukijwe n'ibiti bito bigaragara ko bitanga umuyaga. Hakurya hakaba hari inzu nini cyane bigaragara ko ari urusengero.

Umwana w'umukobwa cyangwa se akaba ari umugore uri ahantu mu murima ushobora kuba ari umurima w'icyayi, umukobwa akaba afite inkangara mu mugongo izwi ko ari basoromeramo icyayi murima w'icyayi, umurima ukaba ukikijwe n'ibiti birebire hakurya hakaba hari umusozi, wa umukobwa akaba yambaye hasi umuhondo hejuru yambaye umupira ifite amabara y'umutuku n'umweru n'umukara.

Ibihingwa biteye ku buryo bwa kijyambere, ibyohingwa bika bite amabengeza kubireba kubera ko biteye ku murongo umwe kandi byose bikaba bifite ubushishe cyangwa bitoshye, bega ibyohingwa bishobora kuba byuhirwa cyangwa se byitwaho ku buryo bwiza.

Ababyeyi bari ahantu mu murima bigaragara ko ari umurima w'icyayi, bakaba bahetse inkangara mu mugongo bari gusomeramo icyo cyayi, umurima w'icyayi barimo akaba ari umurima munini cyane utawureba ngo uwuheze, uwo murima ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi.

Abantu bari ahantu bashobora kuba bari ahantu mu gishanga. Abantu bakaba bikoreye ibintu bigaragara ko ari umuceri bari gusarura. Aho bari kugenda urebye iruhande rwabo hari nanone uwo muceri ushobora kuba weze. Hakurya yuwo muceri ku gishanga hateye urutoki runini.

Ubutaka bugari bigaragara ko bwahurijwe hamwe, ubu butaka bukaba buteweho ibihingwa by'ubwoko bumwe, ubwo butaka bikaba bigaragara ko bashobora kuba barabukozeho icyo dukunda kwita amatarasi y'indinganire, haruguru y'aya mataraso y'indinganire bigaragara ko hashobora kuba hubatse amazu.

Imiti y'amatungo iri mu macupa agiye atandukanye. Bikaba bigaragara ko iyo miti iri muri ayo macupa, imwe iri mu buryo bw'amazi, indi iri mu buryo bw'ibinini. Ayo macupa nayo akaba ari mu mabara agiye atandukanye, harimo amacupa y'umuhondo, hakabamo n'amacupa y'umweru.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gupima uburwayi, harimo igikoresho kifatirwa mu gupima umuriro, hakaba n'amakarito menshi agiye atandukanye bigaragara ko arimo imiti igiye itandukanye, hakaba n'amacupa arimo imiti na yo iri mu bwoko butandukanye, iri mu buryo bw'ibinini.

Umubyeyi wambaye imyenda dukunze kwita ibitenge iri mu ibara rijya gusa n'ubururu, umubyeyi akaba ari ahantu mu murima bigaragara ko yizihiwe akaba afite isuka bigaragara ko ari nko kubagarira imbuto ze cyangwa nko kuzisukira cyangwa kuzishyiraho itaka.

Umugabo uhagaze ahantu ku nzu, iruhande rwe hakaba hari inka, ifite ibara ry'umukara n'umweru ariyo dukunze kwita ikibamba mu kinyarwanda, hirya yaho hakaba hari uruzitiro ruzitiye urugo rwe, urwo ruzitiro bikba bigaragara ko rwubakishije ibiti, bigaragara ko ari ibyo dukunze kwita imiyenzi.

Umugabo uhagaze ahantu mu murima akaba afite igihoho mu ntoki ze icyo gihoho kikaba kirimo urubuto, inyuma ye bikaba bigaragara ko hari umurima munini bigaragara ko nawo uwo murima urimo ibihoho birimo izo mbuto, bikaba bigaragara ko hashobora kuba ari nk'ahantu mu gishanga izo mbuto bazinaje.

Ahantu mu murima hakaba imbere hari kugaragara umubyeyi ukuze uwo dukunze kwita umukecuru wambaye imyenda isa n'umuhondo akaba yiteze agatambaro ko mu mabara y'umutuku n'umweru bikaba bigaraga ko hari hari imbuto ari gutera cyangwa ari kwitaho inyuma hakaba hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'icyatsi nyuma bakaba bari kugaragara ibiti byinshi.

Abantu bigaragara ko abajura barimo gukora igikorwa dukunze kwita umuganda, aba bantu hakaba barimo abashinzwe umutekano binzobere, bo mu nzego zitandukanye, hakaba harimo abo dukunze kwita abapolisi, hakaba harimo abo dukunze kwita abadaso, bakaba bari kumwe n'abandi bagabo, bari kubafasha gukora icyo gikorwa cy'umuganda.

Abantu benshi bakoraniye ahantu hamwe, bigaragara ko bari gukora igikorwa kimwe cyangwa se bigaragara ko bashobora kuba bari gukora nk'icyo dukunze kwita umuganda, abo abantu bakaba bari ahantu hateye ibiti byinshi, bigaragara ko ari ku musozi cyangwa se ahantu mu ishyamba, bakaba bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, umukara, umweru, umuhondo, abandi icyatsi.

Umugabo uri gucunga igare ahantu mu kayira mu murima. Umugabo kuri iryo gare akaba ahetseho ibintu bigaragara ko ari inkwi n'igitiyo. Umugabo yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto dukunze kwita bote hasi. Mu murima ari kugenderamo urabona ko ari umurima uteyemo ibyatsi cyangwa se ahantu mu kibuga hameze bibyatsi dukunze kwita imitsima.

Abantu bigaragara ko bavuga ko hari umugore n'umugabo, bikaba bigaragara ko bishimye bari guseka, abantu bakaba bambaye, umugore yambaye imyenda ifite amabara y'ubururu agakote, umugabo yambaye imyenda ishati ifite amabara y'ikigina, ajya gusa n'umweru, nyuma hakaba hari umurima utiwemo urutoki.

Ibiaryi biteraniye ahantu hamwe, bikaba bigaragara ko ari ibirayi binini cyane, bigaragara ko ari ibirayi bishobora kuba byarahinzwe ku buryo bwiza kuko byatanze umusaruro ushimishije, akaba ari ibirayi bigaragara ko bifite amabara ajya gusa n'ikigina cyangwa se umuhondo.

Urubuto dukunze kwita umwembe urwo rubuto rukaba ruteye rwonyine aho ruteye rukaba rukikijwe n'ibindi byatsi by'amoko atandukanye urwo rubuto rw'imyembe rukaba rufite ibibabi by'icyatsi bikaba bigaragara ko ari urubuto rugikura rutaragera ku kigero cyo kwera.

Ihundo ry'ikigori ritavovoye, bigaragara ko ari ikigori kibisi gifite ibara ry'icyatsi, kiri ahantu mu murima ahantu kiri hakaba hari ibyatsi byinshi bigifite ibara ry'icyatsi karemano.

Urubuto ruteye ahantu mu murima, bigaragara ko urwo rubuto rushobora kuba ari urwo dukunze kwita igihaza, akaba ari urubuto rugeze ku kigero cyo kuraba kuko rufite ibibabi byinshi kandi n'imigozi yarwo iyo tuzi igenda irandaranda, imaze gusa nk'aho iba miremire.

Ni umugabo uri ahantu mu murima bibigaragara ko uwo muririma ashobora kuba ari nk'umurima w'ibigori, bikaba bigaragaza ko ashobora kuba ari gusarura ibyo bigori, umugabo akaba yambaye imyenda ifite amabara y'umukara n'umweru, uwo murima ari mu imyaka yari yarateye yasaruwe cyangwa se iri gusarurwa.

Umurima bigaragara ko ushobora kuba uteyemo imbuto, bigaragara ko izo mbuto zishobora kuba ari nk'ibishyimbo cyangwa se ibihaza, izo mbuto bikaba bigaragara ko ari imbuto zirimo zikura, uwo murima bikaba bigaragara ko izo mbuto zisashije ibyatsi.

Umurima bigaragara ko ari umurima w'ibigori ko bigaragara akaba ari ibigori byahinzwe mu buryo bwa kijyambere cyangwa uburyo bwiza bigaragara ko ari ibigori byiza hakurya yabyo ku musozi bikaba bigaragara ko ari umusozi uriho ishyamba birimo ibiti byinshi inyuma y'ibyo bigori naho haakaba hateye ibiti birebire.

Umusozi munini bigaragara ko ku musozi hejuru hateho ibiti byinshi byakuze, hasi mu kibaya bikaba bigaragara ko hashobora kuba ari nk'ahantu hakorerwa ubworozi, uko bigaragara bigaragara ko ashobora kuba Ari mko mu ifamu y'inka, ahantu bika bigaragara ko ari ahantu hasi harimo ikibaya, hanyuma hejuru y'ikibaya hakaba hari umusozi.

Ubutaka bunini bigaragara ko ari ubutaka bwahurijwe hamwe bwateyeho igihingwa kimwe, bikaba bigaragara ko ari ubutaka bugari cyane, igihingwa bigaragara ko hashobora kuba hateye nk'ikawa cyangwa se ibindi bihingwa biri mu bwoko bw'ikawa, ku musozi hejuru urebye mu ijuru hakaba harimo ibicu byiganza ...

Abantu barimo kugenda mu muhanda abo bantu bakaba biganjemo abambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, bamwe muri bo bakaba bambaye umukara hejuru, hasi bakaba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye umweru, umutuku, umukara n'ikigina, umuhanda bari kugendamo ukaba ukikijwe n'ibiti birebire.

Ibihingwa biteye ahantu bikaba ari byinshi bigaragara ko kuba ari nk'ibigori cyangwa se ibindi biri mu bwoko bw'ibigori hakurya yabyo hakaba hateye, hari umusozi bigaragara ko ushobora kuba uteyeho ishyamba, uwo musozi ukaba uriho ibiti bigufi hasi hakaba harimo ibyatsi byinshi.

Umurima munini uteyemo ibihingwa byinshi bikagaka ibihingwa byakoranije hamwe. ibyo bihingwa bika bigaragara ko bishobora kuba ari nk'icyayi cyangwa se ibindi bihingwa. Bigaragara ko ahantu biteye ari agace k'imisozi hirya urebye hakaba hari ahantu hagiye harimo ingo nyinshi.

Umurima munini uteyemo imbuto zigiye zitandukanye uwo murimo ukaba ugabanyijemo ibice bibiri, hakaba hari igice kimwe kirimo ibihingwa byinshi byiganje bishobora kuba bigaragara ko byitaweho, ikindi gice kikaba kirimo imbuto nkeya bikaba wenda bigaragara ko zishobora kuba zitaritaweho neza nk'izo mu kindi gice.

Ahantu bigaragara ko ari ahantu mu ishyamba. Biba bigaragara ko ari ahantu hateye ibiti byinshi birebire bikoze ibihuru biri mu bwoko butandukanye. Biba bigaragara ko ari ahantu mu misozi umusozi umwe ugiye ucometse mu wundi.

Umugore uri ahantu mu murima. Bigaragara ko uwo murima ari kugaragaza imbuto ze ko zeze neza. Izo mbuto ari kugaragaza, bigaragarag ko zishobora kuba ari nk'imbuto dukunze kwita amatunda. Bigaragara ko izo mbuto zahinzwe mu buryo bwa kijyambere cyangwa uburyo bugezweho.

Umugore w'umubyeyi, wambaye ibitenge biri mu mabara y'ubururu n'umuhondo, akaba mu mutwe we yambaye agatambaro kari mu mabara y'umutuku n'umweru, bikaba bigaragara ko ari guhinga mu murima w'inanasi.

Abantu bari ahantu hamwe bigaragara ko ari nk'ahantu mu murimo, uwo murima bikaba bigaragarara ko ashobora kuba ari mu murimo w'ibitunguru, hakaba hari umugabo umwe bigaragara ko ashobora kuba yunamye ari gukora muri uwo murima cyangwa ari kurandura igitunguru kimwe ngo abereke uburyo byeze neza, abantu bigaragara ko hari nk'abantu baje kwiga uburyo ibyo bitunguru bihingwa.

Indabo ziri ahantu bigaragara ko izo ndabo zageze ku kigero cyo kuraba. Zikaba zararabye indabo zifite amabara atandukanye. Harimo izifite amabara y'umutuku, izifite amabara y'umweru, izindi zifite amabara ajya gusa n'umutuku ariko utagaragara neza.

Utubati turi ahantu hamwe bigaragara ko dushobora kuba turimo imbuto zigiye zitandukanye. Akabati kari kugaragara imbere, dushobora kuba ko kagaragara ko gashobora karimo imbuto izo dukunze kwita voka. Akandi kari iruhande ariko katagaragara neza, gashobora kuba kagaragara ko gashobora kuba karimo imiteja.

Umugabo uri ahantu mu murima bigaragara ko ari mu murima w'imbuto zihinze mu buryo bwa kijyambere, uwo mugabo akaba yambaye ikoti rifite amabara atandukanye, harimo amabara y'umutuku, amabara y'umukara n'imbere akaba yambariyemo umupira afite ibara ry'ubururu, hirya hakaba hari umugabo wundi na we uri muri uwo murima w'imbuto wambaye umupira ufite ibara ry'umukara.

Umubyeyi wicaye ahantu bigaragara ko hashobora kuba ari mu murima w'inyanya, muri uwo murima w'inyanya aho yicaye hakaba hari inyaya nyinshi zigaragara ko zasaruwe, hakaba hari n'inkangara zigera kuri eshatu cyangwa enye, akaba ari gufata izo nyanya basaruye azishyira muri izo nkangara.

Imbuto ziteye ahantu mu murima izo mbuto zikaba zigizwe n'ibiti binini byeraho izo mbuto, bikaba bigaragara ko izo mbuto zize, izo mbuto zeze zikaba zifite amabara y'icyatsi n'umutuku, bikaba bigaragara ko izo mbuto ziteye amabengeza ku buryo bugaragara.

Imbuto bigaragara ko zize neza, izo mbuto zikaba zifite ibara ry'icyatsi, ibiti zifasheho nabyo bifite ibara ry'icyatsi n'amababi menshi, aho biteye bika bigaragara ko ari ahantu mu murima, kubera ko ari imbuto zitaweho neza, kubera ko umusaruro wazo uri kugaragara ko ari mwinshi.

Umurasire w'amashanyarazi uri ahantu mu murima, bigaragara ko ari imirasire ibiri bateranirije hamwe, aho muri uwo murima bikaba bigaragara ko harimo, impombo ishobora kuba yuhira imyaka iteye muri uwo murima, muri iyo impombo hari amazi ari guturukamo, bigaragara ko ari kuhira imyaka, iri muri uwo murima, bigaragara ko iyo imyaka imeze neza kubera ko ishobora kuba yuhirwa n'ayo mazi.

Umuntu uri ahantu mu murima ufashe afite umupira bigaragara ko ari kuhira imbuto ziteye muri uwo murima. Uwo murima arimo bikaba bigaragara ko ari nk'umurima w'ibigori cyangwag se izindi mbuto zijya gusa n'ibigori. Uko bigaragara akaba ari imbuto zahinzwe mu buryo bwa kijyambere.

Umugabo uhagaze ahantu mu murima, akaba afite umupira bigaragara ko ari kuhira izo mbuto ze, izo mbuto bikaba bigaragara ko zishobora kuba ari nk'imbuto z'ibigori, umugabo akaba yambaye imyenda y'amabara y'ubururu n'umukara n'akagofero k'umweru, iruhande rw'uwo murima bigaragara ko ari uruzitiro rurerure, inyuma yaho hari kugaragara ibiti birebire.

Umuntu uhagaze mu murima, umuntu akaba afite igikoresho bifashisha buhira imyaka mu ntoki bikaba bigaragaye ko ari kuhira urubuto muri uwo murimo ahagazemo. Izo mbuto zikaba zisasize ibyatsi umuntu akaba yambaye inkweto bigaragara ko zisa nk'izishaje, n'ipantaro y'umukara.

Impombo zigiye zicomekanyije bigaragara ko ari impombo zifashishwa mu kuhira imyaka, ahantu ziri bikaba bigaragara ko ari mu murima, uwo murima ukaba uteyemo ibihingwa bigaragara ko ari ibyo izo mpombo zifashishwa zuhira izo myaka ziteye muri uwo murima.

Umurima munini uteyemo ibihingwa byinshi ku buryo bwa kijyambere, uwo murimo ukaba urimo ibikoresho byifashishwa mu kuhira, ibiri muri uwo murima, bikaba bigaragara ko ibyo bintu bikozwe, mu buryo bwa kijyambere cyangwa uburyo se buteye imbere.

Imirasire iri ahantu mu murima bikaba bigaraga ko iyo mirasire itanga umuriro w'amashanyarazi wifashishwa mu kuhira imyaka, muri uwo murima hakaba harimo amatiyo y'impombo azana amazi muri ibyo bihingwa biteye muri uwo murima.

Umurima munini cyane bigaragara ko uteyeho ibihingwa by'ubwoko bumwe. Bikaba bigaragara ko ibyo bihingwa bishobora kuba ari nk'umuceri cyangwa se ingano. Ariko amahirwe menshi uko bigaragara bikaba bigaragara ko ari umuceri. Hakaba hari umugabo uhagazemo umwe nubwo atagaragara neza, ushobora kuba ari gukoramo ibikorwa bigendanye no kuwitaho.

Aha ngaha ni ahantu cyane cyane bashyira amazi bakayahafatira kugira ngo azakoreshwe mu gihe runaka, cyane cyane nko kuhira imyaka, imyaka igiye itandukanye kuko kuhira imyaka ni ibintu by'ingenzi cyane, bituma imyaka yera vuba kandi igatanga umusaruro wari witezwe.

Umurima cyangwa se ahantu bigaragara ko ari umusozi, umusozi ukaba uteyeho ibiti bigiye bitandukanye, hasi mu kibaya cy'uyu musozi hakaba hateyemo urutoki, hafi y'urutoki hakaba hari inzu zishaje cyangwa se inzu za cyera.

Imisozi igiye iteganyi ikaba iteye ibiti bite amabengeza, ibyo biti bika bifite ibara ry'icyatsi cyiza kigaragara neza, hejuru y'iyo misozi bigaragara ko ameze nk'ahantu mu birunga, iyo misozi ikaba iri ku ruhererekane rw'umurongo umwe umwe umwe hajye habamo ikibaya n'umusozi.

Ubutaka buhurije hamwe, bigaragara ko ubu butaka buri ahantu ku musozi, ubwo butaka bukaba bukoze mu buryo bw'amaterasi, uko bigaragara hakaba hashobora kuba hateyeho igihingwa, gishobora kuba ari nk'icyayi cyangwa se izindi mbuto zihurije hamwe, hakaba ari ahantu ku musozi, ikaba ari imisozi ibiri igiye iteganye.

Ubwoko bw'ibimera biteye ahantu mu ishyamba hatandukanye. Hejuru ku musozi hakaba hateyeho ibintu bigaragara ko bishoboraho kuba ari ibiti by'interusi cyangwa se by'ubundi bwoko. Noneho hasi hakaba hagaragaye ko hashobora kuba hacamo umugezi. Mu nkengero z'umugezi hakaba hagaragara ko hateyemo ibyatsi ushobora ko ari nk'ibyatsi bya kinyarwanda ibyo dukunze kwita nk'ibikangaga.

Ubutaka buhurije hamwe bigaragara ko bukoze mu buryo bw'amatarasi, aho ahantu ubwo butaka buri, bikaba bigaragara ko ari ahantu mu misozi miremire, ubwo butaka hakaba hagati yaho hagiye hateyemo ibiti birebire, ubwo butaka uko bigaragara bukaba buteyeho igihingwa kimwe.

Umusozi uteyeho ibitibi byinshi, uwo musozi bikaba bigaragara ko uciyeho amaterasi y'indinganire, ariko ayo matarasi y'indinganire bikaba bigaragara ko nta kintu giteyemo, hakaba hari kugaragara itaka, ahantu bikaba bigaragara ko ari ahantu ku musozi muremure, mo hasi hakaba hari kugaragaramo umurindi w'amazi, uciye mu kibaya hasi.

Ahantu bigaragara ko ari ahantu mu rutoki hakaba hari kugaragara imibyare myinshi urebye munsi y'iyo mibyare hakaba hari ari kugaragara amazi menshi ashobora kuba ari nk'umugezi cyangwa se ikiyaga hakaba hari kugaragara n'ibiti byinshi muri urwo rutoki.

Umusozi cyangwa se ahantu mu cyaro bigaragara ko hatuye abantu muburyo butatanye, kuri uwo musozi hakaba hari kugaragara ibiti n'ibyatsi byinshi cyane, amazu nayo akaba agiye yubatse muburyo butandukanye, hejuru y'uwo musozi hakaba hari kugaragara ibicu byiganje.

imisozi bigaragara ko ari imisozi miremire cyane, kuri iyo misozi hakaba hagiye hubatse amazu bigaragara ko ari amazu ashaje cyangwa amazu atubatse neza. Imisozi ikaba iteyeho ibiti byinshi, imisozi ikaba ari miremire cyane ku buryo iyo urebye ari nka byabindi abana bakundaga kuyita ngo ''umusozi ukora ku ijuru''.

Inka nyinshi zateraniye ahantu hamwe, bigaragara ko ari inka rwose nziza. Hakaba harimo inka z'ibibamba, harimo amasini, harimo n'ibihogo n'inka z'umukara. Bigaragara ko hari abantu bashobora kuba baje gukama izo nka, bigaragara ko ari abashumba b'izo nka.

Ikiraro cy'umutungo cyubatse mu buryo bwa kijyambere. Icyo kiraro kikaba kigaragara ko ari ikiraro kinini cyane mu buryo bugaragara. Muri icyo kiraro hakaba harimo abantu bigaragara ko bashobora kuba ari nk'abakozi bita kuri ayo matungo cyangwa se bahaba mu bundi buryo butandukanye bwo gufasha amatungo kugira ngo abashe kubaho nk'abayafasha kugaburira cyangwa kuyahereza imiti.

Inka iri ahantu mu kiraro cyayo, iruhande rwayo hakaba hari indi na yo itari kugaragara neza. Izo nka bikaba bigaragara ko zorowe mu buryo, bwa kijyambere cyangwa uburyo buteye imbere. Izo nka aho zihagaze mu kiraro cyazo bikaba bigaragara ko ari ikiraro, hasi hasashemo imbaho.

Inka ziri ahantu mu rwuri urwo rwuri rukaba ruteyemo ibiti birebire bi gutanga nk'akayaga kuri izo nka zikaba ziri kurisha muri urwo rwuri izo nka zikaba zifite amabara meza cyane harimo ibibamba, ibisengo nizo dukunze kwita za gaju abatabizi ni inka ziri mu mamabara y'umukara cyangwa se umweru.

Ihene nziza cyane ziteraniye ahantu mu rwuri bigaragara ko ari ihene za kijyambere. Izo zikaba ziganjemo izindi zifite amabara y'umweru n'umukara, izindi zikaba zifite amabara y'umweru n'ajya gusa n'itaka. Urwo rurimi akaba ari urwuri rurimo ibyatsi byiza, hakuryazo hakaba hari abantu bari kuzireba bazitegereza hakaba hakikijwe n'ibiti.

Imashini bigaragara ko ishobora kwifashishwa mu bijyanye n'ubworozi, bigaragara ko ishobora kwifashishwa nko gukamura ubuki, iyo mashini ifite ibara ry'umutuku hejuru, hasi ikaba ifite ibara rijya gusa n'ubururu, hasi ku maguru yayo ikaba ifite udupine dushobora kuyifasha kugenda iva ahantu hamwe ijya ahandi.

Ubworozi bw'inkoko bigaragara ko ari ubworozi buteye imbere hakaba hari kugaragara inkoko nyinshi cyane ziri ahantu mu kizu cyazo, izo nkoko zikaba ziri mu mabara y'umweru najya gusa itaka, izo nkoko zikaba zifite ibirokoroko biri mu ibara ry'umutuku.

Inka ziri mu rwuri bigaragara ko urwo rwu ruririmo ari urwuri rwiza kuko ruteyemo ibiti bifasha gutanga amahumbezi kuri izo nka nazo zikaba zigaragara ko ari inka nyinshi cyane bigaragara ko ari inka zorowe neza hakaha hari umugabo uhagaze imbere ari gufata ifoto y'izo nka.

Ihene za kijyambere ziri ahantu bigaragara ko ari nko mu rwuri zishobora kuba zirimo kurisha, izo hene bikaba bigaragara ko ari ihene nyinshi cyane, izo hene zikaba ziri mu mabara y'umweru n'amabara ajya gusa n'itaka, izi hene zikaba zifite amahembe maremare n'amatwi atendera.

Inkoko zorowe mu buryo bwa kijyambere ziri ahantu mu kizu cyazo, izo nkoko muri icyo kizu aho ziri hakaba harimo ibikoresho bifashisha mu kugaburira izo nkoko, ibi bikoresho bikaba bifite ibara ry'umweru n'umutuku, izo nkoko uko bigaragara nazo akaba ari inkoko zitaweho neza, uko bigaragara zirabyibushye kandi biragaragara ko zitanga umusaruro.

Amatungo akoraniye ahantu mu rupangu, bigaragara ko ari amatungo y'inka, ukobigaragara izo nkaka akaba ari inka za kinyarwanda cyangwase izo dukunze kwita inyambo bitewe n'uko zifite amahembe maremare, hakaba hari abantu bigaragara ko ari abavuzi cyangwa abashinzwe kwita ku amatungo bashobora kuba bazi kuzitaho nko kuzivura cyangwase kuzikorera ibindi bikorwa bitandukanye byazifasha kubaho neza, abo bantu bambaye ibintu biri mumabara y'umweru n'uburu.

umuntu uri ahantu bigaragara ko ari mu kizu k'inkoko, abibwira ko ari ikizu cyangwa se ikiraro cy'inkuko cyubatse mu buryo bwa kijyambere. Haba harimo inkoko nyinshi cyane, bigaragara ko izo nkoko ari inkoko zitanga umusaruro. Uwo muntu akaba yambaye impuzankano iri mu mabara y'umukara na bote z'umukara hasi. Bikaba bigaragara ko hari bigaragara ko hari amagi zateye.

Inka ziri ahantu mu rupangu bigaragara ko ari inka za kinyarwanda izo dukunze kwita inyambo, bikaba bigaragara ko ari inka zifite amahembe maremare hirya yazo hakaba hari kugaragara abantu bigaragara ko bashobora kuba ari nk'abaganga b'amatungo bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru.

Ingurube iri mu mabara y'umweru n'umukara bika bigaragara ko ari ingurube ikuze, iyo ngurubega bikaba bigaragara ko yambaye amahena abiri ku gutwi kwayo, kandi bikaba bigaragara ko iyo ngurube iryamye ahantu mu kizu cyayo aho iba.

Ubworozi bw'inkoko bigaragara ko ari ubworozi buteye imbere. Hakaba hari kugaragara inkoko nyinshi zikiri ku kigeroro cy'izo dukunze kwita imishwi. Bikaba bigaragara ko ziri ahantu zororwakaba. Akaba ari inkoko ziganjemo izifite amabara y'umweru n'izifite amabara y'umukara.

Amatungo bigaragara ko a ashobora kuba ari inkwavu, akaba ari mu kizu cyayo aho uyororera, nkuko bigaragara ayo mutungo akaba afite ubwoya bwinshi cyane, bikaba bigaragara ko ari amatungo cyangwa ari ubwoko bw'inkwavu butanga ubwoya, hirya yabyo hakaba hari abaganga b'amatungo se cyangwa abashinzwe kwita ku matungo wambaye impuzankano y'umweru hejuru harimo umwe ufite ikaramu n'ikayi bigaragara ko ari ibintu arimo.

Imbuto zitandukanye ziri mu bintu bigiye bitandukanye bikaba bigaragara ko hashobora kuba harimo ibishyimbo, soya n'izindi zigiye zitandukanye nk'ibihwagari cyangwa se ingano, bikaba bigaragara ko izo mbuto zatoranyijwe mu buryo bwiza, bigaragara ko wenda zishobora kuba zigiye kwifashizwa zihingwa.

Imbuto nyinshi cyane ziri ahantu bigaragara ko ari mu bwanikiro bwazo, izo mbuto bigaragara ko ari nk'ibigori, izo mbuto aho zanitse hakaba hakikijwe n'imirima iteyemo urutoki, hakurya urebye neza hakaba hari inzu nini cyane biragara ko hari nk'inzu iyo bazanuye bazibikamo.

Umuntu hari kugaragara ikiganza cye gusa, icyo kiganza kiba kigaragara ko kirimo imbuto, izo mbuto bikaba bigaragara ko zishobora kuba ari nk'imbuto z'ibigori ashobora kuba agiye gutera ahantu mu murima. Imbere ye y'icyo kiganza hakaba hari kugaragara urubuto rugaragara ko ari urw'ikigori rumeze bigaragara ko ari nk'urubuto rumaze icyumweru rumeze rukiri rutoya.

Abantu batatu bari gushyira ibigori mu mufuka ugiye kuzura .

Imbuto nyinshi ziri ahantu hamwe ushobora kugirango ni ibirayi cyangwa ukagira ngo ni imbuto z'indi bihingwa by'ubundi bwoko kubera ko hari umufuka ushobora kuba ziri guturukamo cyangwa se umufuka wacitse izo mbuto zikaba ziri kwisohokera.

Ibigori biteraniye ahantu, hakaba ari ibigori bikiri ku mahundo yabyo. Ibigori bikaba ari ibigori byiza cyane cyangwa se ibigori byeze ku rwego rushimishije cyangwa ruhagije. Muri ibyo bigori hakaba harimo ibifite amabara y'umweru, kabamo n'ibindi bifite amabara ajya gusa n'umutuku.

Uri ahantu mu murima bigaragara ko hari gutera imbuto, uwo umurima arimo akaba bigaragara ko ari umurima munini. Hakurya ye hakaba hari imashini yifashishwa mu guhinga, nkuko bigaragara uwo murima ni umurima munini cyangwa se ubutaka bwahurijwe hamwe buhingwa igihingwa kimwe, uwo umugabo bikaba bigaragara ko ashobora kuba ari umugabo wambaye hejuru isengeri y'umweru hasi yicyenyeje agatambaro.

Urupangu bigaragarako hashyizwemo inka bishobora kuba ari abantu bigaragaragrako ari abaganga b'amatungo bashobora kuba bigaragarako baje kwita kuri iryo tungo cyangwa mu bikorwa bijyanye no kurivura cyangwa se kurisuzuma uburwayi runaka cyangwa kuba baritera ibyo dukunze kwita inanga, iyo nka bikaba bigaragarako ari inka ya kinyarwanda nziza.

Itungo bigaragara ko rishobora kuba ryararwaye uburwayi bugendanye n'uruhu, bikaba bigaragara ko ubwoya bwaryo bushobora kuba bwaragiye bupfuka cyangwa burivaho, bikaba bigaragara ko hari umuntu ushobora kuba ari kuryitaho, umuntu ikiganza cye kikaba gikoze kuri iryo tungo, kiri kureba uko iryo tungo rimeze.

Inka iryamye hasi bigaragara ko hari abagabo bari kwiyitaho, muri abo bantu bari kwitaho hakaba harimo umukozi ushinzwe kuvura amatungo no kuyitaho. Bigaragara ko ari kuyidoda, bikaba bigaragara ko ishobora kuba wenda yari yabyaye ikagira ikibazo cyo kutabya neza cyangwa se ari ikindi gikomere yahuye na cyo.

Abaganga b'amatungo bari ahantu, bari kuganira ku bintu, bigaragara ko bashobora kuba barimo kuganira ku byo bagiye gukorera ayo matungo nko kuyavura cyangwa se ibindi bigiye bitandukanye harimo nko kuyafasha kongera umusaruro wayo, abo baganga b'amatungo bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara atandukanye, umwe yambaye ubururu, abandi bambaye umweru.

Abantu bambaye uturindantoki bakaba bambaye impimpuzankano bigaragara ko ashobora kuba ari umweru hejuru bose bika bigaragara ko bari kuvura mu itungo iryo tungo rikaba riryamye ahantu ku meza bakaba bafite inshinge mu ntoki bari kureba icyo gisebe cy'iryo tungo nimba babasha kukivura cyangwa kuryitaho kugira ngo ribashe kubaho.

Urupangu ruteraniyemo inka, bigaragara ko ari inka za kinyarwanda izo dukunze kwita inyambo, hakaba hari abantu bigaragara ko bashobora kuba ari nk'abavuzi b'amatungo baje kuzitaho, abo bantu bakaba bambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru, undi yambaye impuzankano iri mu mabara y'ubururu, bose hasi bambaye bote ziri mu mabara y'umweru.

Inyoni bigaragara ko izo nyoni ari izo mu ishyamba. Izo nyoni zikaba zifite amabara y'umweru n'umukara, n'andijya gusa n'ikigina, izo nyoni zikaba zihagaze, bigaragara ko ari ahantu mu ishyamba cyangwa se ahantu mu kibuga kirimo ibyatsi byinshi.

Inyamaswa ziri ahantu mu ishyamba, bishobora kuba bigaragara ko ari ahantu muri pariki, uko bigaragara izo nyamaswa zikaba ziri mu mabara, y'umweru n'andi mabara ajya gusa n'kigina, izo nyamaswa zikaba zifite izosi rirerire, ari zo dukunze kwita gasumbashyamba.

Inyamaswa yo mu ishyamba bigaragara ko iryamye cyangwa se yirambitse, ikaba yasamye. Iyo nyamaswa ikaba ifite amabara y'umukara, umweru n'andi ajya gusa n'itaka ikaba yasamye yasohoye ururimi n'amenyo yayo agaragara abigaraga ari inyamaswa y'inkazi cyane.

Inyamaswa zo mu ishyamba ziri ahantu mu ishyamba, izo nyamaswa bigaragaza ko ahantu hashobora kuba ari muri pariki, izo nyamaswa hakaba higanjemo izifite amabara y'umukara n'umweru, izindi zikaba zifite amabara ajya gusa n'itaka, ahantu ziri bigaragara ko ari mu ishyamba rinini cyangwa ishyamba rimwe.